Aha turi kureba abantu basa nk'aho bari mu nama. Imbere yabo hari icupa ry'amazi buri muntu ndetse bari kuvugira mu ndangurugamajwi.

Hano turi kureba urungano, bigaragara ko ari nk'abanyeshuri bari mu mahugurwa, imbere y'umukobwa hateretse amacupa y'amazi abiri, ari kwandika akoresheje ikaramu ndetse imbere ye hateretse telefone irambitse ku meza, inyuma ye hari undi muhungu usa nk'aho yizihihwe rose ari kwandika.

Aha turi kureba abantu bari mu nama imbere hari abandi bari gukoresha, mudasobwa inyuma abo bagabo bari kuganira, bigaragara yuko hari ibintu bari gusobanurirana umudamu urimo ararangaye ari kureba ibyo yanditse ndetse imbere ye hari icupa ry'amazi rihari.

Hano bari kutwereka abantu bicaye bigaragara yuko imbere hari umuntu ubahugura, inyuma yabo hari abantu bagiye bahagaze begamye ku rukuta rufite irangi ry'umuhondo ndetse hari undi muntu usa nkaho yegamye ku nkingi yambaye ingofero.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, umugore yahagaze imbere afashe mikoro yambaye n'ikarita mu gatuza, bisa naho ari gutanga ikiganiro, hanze hari amadirishya agaragaza ibiri kubera hanze.

Inzu mberabyombi iteraniyemo urubyiruko rw'ingeri zitandukanye, bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, amabendera y'igihugu ku gatuza, abakobwa n'abahungu, imbere ku meza hari ibikoresho bitandukanye birimo amacupa y'amazi, amakayi ndetse n'amakaramu.

Aha turi kureba umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi. Ndetse hirya yaho hari abagore bari gukoresha mudasobwa. Umugore urimo hagati yambaye ibirahure by'amaso. Inyuma yabo hariho ibyapa byanditseho Kigali yacu. Bigaragara yuko bari kwamamaza Kigali n'ubwiza bwayo.

Aha, bari kutwereka urubyiruko rwambaye imyenda isa. Bigaragara ko imbere hari umuntu watumbiriye uri kubabwira. Imbere yabo hari amacupa ahari y'amazi. Ndetse ameza anateretseho ibikoresho byabo, nka terefone ndetse n' ibipapuro bari gukoresha. Hari umukobwa ufite terefone mu ntoki ze.

Hano turi kureba abantu batanu bicaye imbere y'abo bari guhugura imbere yabo hari utumeza dutoya, tugiye turiho imidimu itandukanye ndetse bigaragara y'uko babiri aribo bafite ijambo bafite indangurumajwi.

Aha turi kureba abantu bambaye imyenda isa, bigaragara yuko bari mu nama, hano bari gutwereka umudamu imbere ye hari icupa rihari bigaragara yuko harimo ikintu cyo kunywa ndetse hari na telefone ebyiri zihari.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Abagabo bakaba bambaye amakote y'umukara ndetse imbere ku meza hariho ibikoresho bitandukanye byiganjemo amacupa, ibirahure, impapuro, ndetse n'amakaramu n'ibitabo, bigaragara ko bari kwandika.

Aha turi kureba abana batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe. Imbere yabo hari amacupa y'amazi bigaragara yuko n'uyu mugore afite imalete, iri imbere ku meza.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Umwe afashe mikoro, arimo atanga ikiganiro, ku meza hari ibitambaro by'umweru ndetse hari amacupa arimo amazi n'ibikombe banywesha, amakayi ndetse n'amakaramu. Abayobozi bicaye, imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa.

Aha turi kureba inzu mbera byombi irimo abantu, inyuma hari abandi bantu bahari, Aba abari imbere bari gukoresha indangurumajwi ndetse imbere yabo hari mudasobwa zihari n'amacupa y'amazi.

Icyumba cy'inama, giteraniyemo abayobozi b'inzego zitandukanye, imbere ku meza hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo isakazamashusho ndetse na za mudasobwa, bafashe amakaramu ndetse bareba imbere, aho bashyize isakazamashusho.

Aha turi kureba abantu bicaye ndetse n'abandi inyuma yabo bahagaze, bigaragara ko basoje inama. Banatwereka n'ameza ayo meza afite ibara ry'umutuku, bigaragara ko ari ibitambaro bashyizeho, hejuru y'ibyo bitambaro hari amacupa y'amazi, ndetse hari n'ibitabo bandikiragamo n'ibipapuro bakoresheje.

Aha bari kutwereka umudamu uri kuvugira mu ndangururamajwi ndetse aratwereka n'amahema yiciyemo abantu. Hirya hari igiti gitwara umuriro w'amashanyarazi mu ndimi z'amahanga kitwa poluzi.

Aha turi kureba abantu bari mu nama, imbere yabo hari ameza, bakanatwereka n'impapuro bakoreshaga bandika, inyuma hari abantu babiri bicaye bigaragara yuko ari nk'abayobozi.

Aha turi kureba imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye mu mahema, ndetse imbere hari igiti gihari bigaragara y'uko bica hari ibyatsi bisa nk'aho byenda kuma byabuze izuba.

Aha turi kureba abaturage benshi bicaye, ndetse harimo n'umuntu ucunga umutekano uri kwandika. Imbere hari ameza ariho mikoro, indangururamajwi, ndetse hari hariho n'igicupa kirimo umuti wica ibisimba ku ntoki.

Aha turi kureba umudamu uri kuvugira mu ndangururamajwi, yambaye ibirahuri by'amaso ndetse yambaye n'ijire y'umukara, ahagaze ku byatsi, hirya hari abandi bantu bicaye mu mahema, imbere y'abo bantu hari ameza ahari, atwikiwe n'igitambaro.

Aha turi kureba abantu bari mu nama ndetse imbere hari igikoresho cyerekana amashusho, hari na mudasobwa ziri gukoreshwa. Izo ntebe bicayeho ni umukara. Harimo ingeri zose, hari abagabo n'abagore.

Aha bari kutwereka ihema ryicayemo abantu ndetse bigaragara yuko hasi bakandagiye ibyatsi, ibyatsi bikaba byenda gushiraho kubera izuba, hafi aho baratwereka igiti gihari.

Aha turi kureba abantu bambaye ingofero n'abandi batazambaye, harimo n'abacunga umutekano. Hirya hari ihema rihari ndetse bakanatwereka ibyatsi biri hakurya.

Aha turi kureba abantu basa nk'aho bari mu nama, baricaye. Abenshi bambaye imyenda y'umweru ndetse imbere hari umugore uri kubahugura, wambaye isengeri y'umukara, mo imbere yambaye umupira w'ubururu. Afite indangururamajwi.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere ku meza hari ibikoresho bitandukanye birimo amatelefoni, amakayi ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa, ku ruhande hagaragara amatara ndetse n'inzugi bacamo basohoka.

Aha turi kureba abagabo barangariye muri mudasobwa, bambaye ingofero z'idini, urimo hagati yambaye ikintu kimuranga mu gatuza, mu ndimi z'amahanga kitwa baji, inyuma hari abandi bagabo bahagaze.

Aha bari kutwereka abantu bari mu nama baricaye baratuje imbere yabo hari indangururamajwi, ndetse hagiye hari n'amazi ku meza bagenda basomaho, inyuma hari abandi bantu bitabiriye inama.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abasore, imbere hicaye umugore ndetse bicaye no ku ntebe z'umukara, hirya hari idirishya ririho ikirahure kibonerana cyerekana ibiri hanze ndetse n'ibitambaro.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi, harimo abanyarwanda ndetse n'abazungu, bigaragara yuko bari mu nama mpuzamahanga. Ayo meza bicayeho aradekoye, hatwikirijwe ibitambaro by'umweru. Hejuru hariho ibirabyo, amatara ari kwaka muri iyo sare.

Hano bari kutwereka umuhanda ndetse hari abantu bicaye ku nkengero z'umuhanda benshi basa nkaho bategereje umuntu runaka, irya hari inzu zihari zigeretse, bakanatwereka n'urutsinga rutwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ikirere bari kukitwereka.

Aha turi kureba ibikoresho bitanga itumanaho ryuzuye byitwa umunara, ndetse tukareba n'ibihingwa ibigori. Hari n'ibiti bihari aho ngaho hafi, bakatwereka n'inyubako zihari.

Bari kutwareka urupapuro rwanditseho serivisi z'irembo, bakatwereka n'uburenganzira bwo kugera ku nkambi y'impunzi ndetse n'andi magambo ari mu ibara ry'umweru.

Hano turahareba urupapuro rw'umweru hashushanyijeho abantu, biragaragara ko arabufashamyumvire, ndetse uru rupapuro rwanditseho umunsi mpuzamahanga w'umurimo bakerekana umuntu uri mu modoka itwara ibihingwa.

Aha turi kureba igikoresho gikurura itumanaho, cyitwa umunara ndetse gifite umuzenguruko w'ibyuma bisudiriye, hirya hari ibiti bihari...

Aha turi kureba ifoto y'abantu benshi bicaye, imbere yaho hari umuntu usa nk'aho uri kubabwira, indi foto bakatwereka ibiti byinshi ndetse n'ahantu hasa nk'icyaro bahinga imyaka cyangwa se ibiti bigiye biteye, kimwe aha ngaha ikindi hariya.

Aha turi kureba ifoto yerekana umuntu. Uwo muntu yambaye igikapa mu mugongo, ndetse biragaragara ko agiye kwinjira ahantu. Kuri iyo nzu hari ibyapa cyanditseho irembo ndetse n'ibintu bakora iyo nzu ifite umuryango n'amadirishya.

Turi kureba igikoresho nsakazatumanaho kitwa umunara, hafi aho hari abantu bahari basa nkaho baje kuwureba ndetse hari n'imodoka ziparitse, hari n'igiti gihari cy'inganzamarumbo.

Aha turi kureba urupapuro rw'ubururu ndetse bakatwereka na telefone barimo kutwereka umugabo urangariye muri telefone ndetse afite ikote arifatiye inyuma mu bitugu afite umusatsi mwinshi.

Aha turi kureba inyubako yubakishijwe n'amatafari. Ndetse bakatwereka n'icyapa cyanditseho umubare kane. Bakanatwereka itara rimurikira aho hantu, ndetse n'icyuma gikurura itumanaho cyo hejuru y'inzu.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi ndetse n'amatara yo ku muhanda, urugo rwubakishije amatafari ahiye n'amabuye, ibiti byinshi ndetse n'imikingo. Hirya hari ikirere kigaragara ko nta mvura gifite ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Hano turi kureba ibyatsi bigiterwa. Hagiye harimo umwanya. Hari ahantu hari intabire ndetse hari ahandi hari ibyatsi. Hakurya tukareba inyubako. Iyo nyubako imbere hari ibiti.

Aha turi kuhareba inyubako ku irembo y'iyi nyubako hari umubare mirongo itatu na gatatu bivuzeko ari nomero y'iyo nzu, bari no kutwereka insinga z'umuriro w'amamashanyarazi, bakanatwereka hakurya ishyamba rihari ry'ibiti byinshi.

Insinga nyinshi cyane zinyuranyuranamo zifashe ku gipoto kinini, zikaba zitwara umuriro w'amashanyarazi wisumbuye ndetse n'umuto, ibikoresho bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu mazu y'abaturage ari hasi, hakurya hariyo igiti kinini cyane k'inganzamarumbo, ndetse n'ikirere kirimo ibicu.

Aha turi kureba akazu gato gakoreramo abakozi ba asosiyete tumanaho ya Emutiyene. Hafi aho hari umudamu uri kuza, ndetse bari kutwereka n'ibyuma bitwara umuriro w'amashanyarazi n’inyubako igezweho ya kade yitwa mu ndimi z'amahanga yitwa kadesitara. Hirya y'iyo kadesitara hari ibiti bihari byinshi by'inganzamarumbu.

Aha turi kureba abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga byinshi, urugero harimo imodoka ndetse n'amamoto hirya turi kureba ibikoresho by'ibyuma bitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse hari n'ibiti bihari hirya yaho.

Aha turi kubona umuhanda, urimo imodoka zigenda ndetse hepfo y'uwo muhanda, hari ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi ritwara insinga ahantu hatandukanye, hirya hari inzu ihari ndetse hafi aho hari n'ibiti bihari, hari n'imitaka ya sosiyete y'itumanaho ya MTN, abakozi bayo bakoreramo.

Aha turi kureba uruzitiro urwo ruzitiro rwubakije amatafari ya ruriba, ndetse bari kutwereka n'ibiti bitoya bigikura, munsi hari inzu zihari zubakishije amategura, hari i poto bitwara umuriro w'amashanyarazi.

Aha turi kureba igikoresho cyifashisha mu gutanga umuriro w'amashanyarazi kimanitseho insinga ndetse bakanereka itara ryo ku muhanda, hirya hari ibiti bihari by'inganzamarumbo, ndetse bari kwerekana n'umuhanda.

Insinga ziri ku giti cy'ipoto rirerire, rikaba zitwaye umuriro w'amashanyarazi wisumbuye ndetse n'uciriritse, hejuru hari ikirere gikeye kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, ibyatsi byinshi cyane hasi ndetse n'umuhanda w'igitaka n'amazu ari ku ruhande.

Aha bari kutwereka igiti kiriho insinga z'amashanyarazi, bigaragara ko ari insinga nyinshi, hakurya bakatwereka ikirere cyiganje kirimo ibicu.

Ipoto rirerire ririho umuriro w'amashanyarazi ndetse ririho n'urutsinga rutwara murandasi, hirya hari amazu maremare y'imiturirwa ndetse n'igice gitoya k'igiti, hejuru hagaragara ikirere gikeye kitarimo imvura

Aha turi kureba imodoka y'umukara ndetse tukareba n'ibiti by'imikindo, hirya hari inyubako zihari ndetse hari n'amatara yo ku mihanda ahari, bari kutwereka n'ikirere hakurya.

Hano turi kureba umuganga uri gutera umuntu urushinge, bombi bambaye udupfukamunwa, umuntu bari gutera urushinge yambaye isaha ku kuboko ndetse yambaye n'ishati y'umukara, uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru.

Aha turi kureba imodoka, izo modoka ziraparitse ndetse bari no kutwereka umuhanda, nta kinyabiziga kirimo, hari umudamu wicaye ku nkengero z'uwo muhanda, bari no kutwereka inzu iri hakurya, hari abantu bari gusa nkaho bari kuyinyinjiramo.

Aha turi kureba abantu bari gukoresha mudasobwa imbere yabo hari amacupa ahari y'amazi ndetse hari umusa bari kwerekana uwambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara hirya hari abadamu babiri nabo bari kwerekana cyane bigaragara ko bakora inama mu nzubera byombi.

Aha bari kutwereka umugabo. Uwo mugabo asa nkaho ukuze rwose. Afite uruhara ndetse yambaye ibirahuri by'amaso. Inyuma ye hari imfungwa ziri kuzamuka. Ndetse hepfo bakatwereka imodoka za gipolisi. Bakanatwereka n'abantu bacunga umutekano baje bashoreye abo bantu.

Aha bari kutwereka abantu b'abacamanza, bambaye udupfukamunwa ndetse hari n'abandi bagororwa bahari bicaye bigaraga yuko bagiye kubaburanisha. Inyuma yabo hari abandi bacamanza bahari, bose bambaye udupfukamunwa ndetse hari n'abandi bantu bari gufata amashusho bahagaze.

Aha turi kureba umugabo usa nk'aho yishimye ari guseka, bigaragara ko imbere hari umuntu bari kuvugana, tukareba ku ishati yambaye hateyeho indangururamajwi zigezweho.

Aha turi kureba abagabo bacunga umutekano bafashe undi muntu ntoki, inyuma yabo hari urugi ruhari, ndetse biragaragara ko bambaye ingofero aba bacunga umutekano.

Mu rukiko aho bacira imanza, harimo abantu b'ingeri zitandukanye abacamanza ndetse n'abaregwa, bambaye udupfukamunwa bose no mu mpuzankano yabo ndetse imbere ku meza hari imiti yica udukoko, abandi hari ibyuma by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa.

Aha turi kureba umudamu basohoye abantu bacunga umutekano, biragaragara yuko afite n'umucamanza uri kumuburanira, uwo yambaye ikanzu y'umukara ndetse afite ibitabo mu ntoki, hari abandi bantu bari gushobora.

Aha bari gutwereka icyapa cyerekana ahantu ugeze ari mu bushinjacyaha. Gifite izuba n'imbere mu cyaha ndetse bakatwereka n' ibendera ry'u Rwanda. Hasi handitseho ku neza ya bose.

Aha turi kureba umugororwa, yambaye agapfukamunwa k'umweru afite igitabo mu ntoki, yambaye umwenda y'imihondo ndetse hirya baratwereka indangururamajwi ziri ku meza ayo meza akoze mu mbaho.

Aha bari kwerekana abantu, abo bantu baricaye ndetse imbere yabo hari akantu kameze nk'agakarito, bose bambaye ibendera ry'u Rwanda nk'umushumi, harimo umugabo wifashe ku munwa.

Aha bari kutwereka Abayobozi Bakuru bo mu nzego nkuru z'Igihugu cy'u Rwanda bari kwifotoza, ndetse harimo n'abacamanza. Inyuma yabo hari ikirango cya Guverinoma y'u Rwanda. Bari mu nzu mberabyombi y'inama. Hari n'abandi bantu bambaye imyenda ya gisirikare bari kumwe na bo.

Aha bari ku kumwereka umugabo ufite umusatsi mwinshi ndetse yambaye na rinete, bigaragara y'uko yambaye ibirahure by'amaso ndetse bishobora kuba acunga umutekano kuko afite n'amapeti, hijya ye hari undi muntu uri kugaragara mu ifoto.

Hano turahareba abacamanza babiri hagati yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara. Uwo mugabo wo hino wambaye ibirahuri by'amaso ari gukoresha mudasobwa ndetse bigaragara ko afite n'ikaramu mu ntoki ari kwandika mu gitabo.

Aha turi kureba abacamanza, hari abacamanza bahagaze ndetse n'abandi bacamanza bicaye, abicaye imbere yabo hari inyundo ntoya bifashisha ndetse hari n'ibitabo bibari imbere, abandi bahagaze bigaragara ko bari kubaburanya.

Aha bari kutwereka urupapuro, urwo rupapuro ni umweru ndetse ruriho amagambo, ayo magambo yanditse mu nyuguti z'umukara, izo nyuguti ni nyinshi cyane.

Aha turi kureba abantu bambaye ibikanzu by'umukara ndetse n'ingofero z'umukara. Hari abandi bambaye ibikanzu by'umutuku. Biragaragara ko ari abacamanza. Hepfo yabo hari ishyamba rihari. Inyuma yabo hari umuntu wambaye ikote utetegeranye nabo.

Aha bari kutwereka ku nkengero z'umuhanda, hariho umupolisi ahagaze, hirya bakatwereka ibyatsi ndetse n'umuntu uri kugenda mu muhanda.

Aha turi kureba ibendera ry'u Rwanda ndetse tukareba perezida Paul Kagame ari kwandika mu gitabo, inyuma ye hari umudamu we ndetse mbere hari umucamanza uhari inyuma iriya turareba abantu benshi bambaye imyenda y'umweru bigaragara yuko baje kumushyigikira igihe yarahiga.

Aha bari kutwereka abayobozi bakuru b'ibihugu, bigaragara y'uko bari mu ifoto, bayobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Poro Kagame inyuma yabo hari amabendera ahari.

Hano turi kuhareba ifoto y'umukandida wa rpf Inkotanyi, Polo Kagame yari arimo kwiyamamaza. Inyuma ye hari abaturage bamanitse amabendera bigaragara ko bamwishimiye, nawe yamanitse amaboko.

Aha turi kureba abayobozi bakuru b'igihugu bari kuganira, twavugamo nka Minisitiri w'Intebe, tukanavugamo na Minisitiri w'Ingabo, inyuma yabo hari ikirango cyerekana guverinoma y'u Rwanda bigaragara ko bahuje urugwiro bose.

Aha turi kureba abategarugori benshi, bigaragara hari imbaga nyamwinshi y'abategarugori, bigaragara ko basoje inama, hirya hari ibiti bihari by'inganzamarumbo.

Aha turi kureba umugabo wamanitse akaboko k'ibumoso, akandi kaboko k'iburyo gafashe indangururamanjwi. Hirya ye hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru. Imbere yabo hari abantu benshi bigaragara ko bari kumva ibyo bababwira. Hakurya hari inzu y'ibara ry'ubururu, ndetse hari n'igiti gihari cy'inganzamarumbo.

Aha turi kureba abantu bambaye imipira y'umweru bigaragara ko bari kubara amajwi hari ibipapuro bigiye bishushanyijeho abantu biri hasi n'ibyo bari kubara.

Hano turi kureba abantu bambaye imyenda isa, bambaye imipira y'umweru ndetse hari n'abambaye amajipo y'umukara n'amapantaro y'imikara, bari kutwereka ibikoresho bashyiramo imyanda, bakanatwereka ibiseke, bakanatwereka ameza adekoye.

Aha turi kureba umugabo ufite igiseke wahereje umugore ugiye gushyiramo urupapuro. Biragaragara ko abantu bari mu nama. Hari abandi bantu bahicaye imbere y'aba bagore hari ameza ateretseho amazi ndetse n'ibikoresho bya mudasobwa n'amatelefoni. Hari n'ibikoresho birangurura amajwi byitwa mu ndimi z'amahanga mikoro.

Aha turi kureba umuhanda ndetse hari kugendamo imodoka, harimo haracamo n'abantu, twavugamo nk'uyu ufite igikapu mu ntoki ndetse afite n'igikoresho kibika impapuro, bigaragara yuko ukuboko kwe yagukoresheje ku gutwi. Hirya hari izindi nyubako zihari.

Aha turi kureba umuhanda harimo haragendamo ibinyabiziga twavugamo nka moto ndetse n'imodoka, ku nkengero z'umuhanda hari inzu zubatse, hirya bakatwereka urusinga rutwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ikirere gisa ubururu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo ibitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'ibitwara imizigo, hirya hari ibiti birebire ndetse n'inzira y'abanyamaguru. Ikiraro gisukira mu muhanda wundi ndetse n'uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi.

Aha turi kureba umuhanda, bakanatwereka imirongo icagaguwe bivuze ko icamo abanyamaguru ndetse muri uwo muhanda harimo abantu batwara moto ndetse n'imodoka, bigaragara ko inyuma yaho hari ibiti bihari ndetse bashatse no kwerekana amatara yo ku mihanda.

Aha turi kureba umuhanda muri uwo muhanda harimo utuntu tw'utuzeru ndetse bari kutwereka n'ikirenge cy'umuntu, harimo n'imodoka zitwa shira umuteto, hirya y'aho hari inzu zigeretse zihari.

Aha turi kureba indobo, iyo ndobo harimo imyanda ndetse bakanatwereka igiti aho ngaho, bakanatwereka n'agakoresho gafite amapine.

Aha turi kureba umuhanda. Muri uwo muhanda harimo umuntu utwaye igare. Ndetse ku nkengero hari ibiti biteyeho. Hari n'amatara yo ku muhanda.

Aha turi kureba umuhanda ndetse tukareba n'imodoka zacanye amatara. Bigaragara ko butangiye kwira ndetse bari no kutwereka umuntu wambaye umwenda w'akazi uri gutambuka mu muhanda. Hakurya bari kutwereka ipoto zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse bashatse no kwerekana ko hari ibiti biri hakurya iriya.

Hano turi kureba ikinyabiziga kiri mu muhanda, kiratwikiriye ndetse hepfo yaho hari ibiti byinshi ndavuga ku nkengero z'umuhanda, imbere hari icyapa gihari ndetse hari n'abantu bahagaze hafi y'icyo cyapa, bari no kutwereka amatara yo ku mihanda.

Hano turi kureba ibinyabiziga. Bigira batiri ibifasha mu kugira ngo bikore, ntago binywa esansi. Ndetse turi kureba umumotari utwara iyo moto, hakurya mu muhanda hari umuntu uri kugenda, bari no kutwereka umufuka bigaragara ko uririmo ubusa.

Ihuriro ry'imihanda iri mu byerekezo bitandukanye, ikaba irimo imodoka ndetse na moto zigenda mu byerekezo bitandukanye, hakurya hari umukingo uriho icyapa ndetse n'ibiti biri haraguru, hari amazu menshi cyane inyuma y'ibyo biti.

Aha turi kureba umuhanda uri kugendwamo n'imodoka ya sosiyete y'itumanaho ishinzwe gutangaza amakuru mu gihugu RBA. Hepfo hari ibiti bihari by'imikindo ndetse hepfo y'ibyo biti hari imodoka ihari.

Aha bari kutwereka umuhanda uri kugendamo ikinyabiziga cya moto nta muntu ahetse, hirya baratwereka urukuta rufite irangi ry'umweru ndetse imbere yarwo hari igiti cyihateye, ruguru bakatwereka inzu igeretse ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Aha turi kureba umugabo uri ku nkengero z'umuhanda afite igare rirahagaze, hirya ye hari abandi bagabo babiri bahari ndetse imbere yabo hari imodoka ziparitse, hari umugabo wambaye ijire bigaragara ko ari iy'abakorerabushake, hakurya y'umuhanda hari ibiti bihari ndetse hari n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Aha turi kureba umuhanda ndetse harimo n'ibinyabiziga, hari umuntu bahetse kuri moto iyindi modoka yo isa naho ihagaze imbere yayo hari abantu bari kugenda hakurya bakatwereka ikirere ndetse bakatwereka n'ibiti bihari.

Aha turi kureba umuhanda, muri uwo muhanda harimo moto, hakurya y'uwo muhanda hari urukuta rufite ibara ry'umweru ndetse imbere hari ibiti bihari byo ku nyengero z'umuhanda, bari no kutwereka amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamoto ndetse n'amamodoka atwara abantu mu buryo bwa rusange tuzi nka shirumuteto, akora mu mujyi wa Kigali, hirya hari ibiti birebire ndetse hakuno hari akayira k'akanyayamaguru karimo kugendwamo n'abantu.

Hano turi kureba umuhanda, muri uwo muhanda harimo ikinyabiziga k'imodoka gihetse imizigo ndetse bari kutwereka n'ibiti, bakatwereka n'urusinga rutwaye umuriro w'amashanyarazi ariko runyuze mu biti.

Aha bari kutwereka umuhanda ndetse n'imodoka ziri kuwugendamo, hari n'izindi ziri imbere, hakurya bakatwereka ibiti, ku nkengero zawo hari ibimuri by'umuhondo bihari.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka z'abantu ku giti cyabo ndetse n'amamoto, ibiti byinshi bikikije uwo muhanda n'ibindi by'indabyo birimo hagati y'imihanda, hakurya hari amatara yo ku muhanda ndetse n'ikirere kirimo akazuba.

Hano turareba umuhanda ndetse tukareba n'akamoto gatoya gatwara imizi, hafi aho hari ibyatsi byateye ku nkengero z'umuhanda, turi kureba abantu bari kugenda m'umuhanda mutoya w'undi utari umuhanda mugari wa kaburimbo, ndetse hari n'ibiti turi kureba hari n'imodoka iparitse.

Aha ndi kureba umuhanda, muri uwo muhanda harimo imodoka itwaye imizigo ndetse hari na moto ifitwe n'umumotari, bakanatwereka amatara yo ku muhanda.

Hano turi kureba umuhanda. Hari ibinyabiziga biri kugendamo. Twavugamo nka moto ndetse hari n'imirongo iri imbere yera myinshi icagaguye. Hepfo y'umuhanda hari ibiti bihari by'inganzamarumbu. Hari n'amatara amurikira uwo muhanda igihe bwije. Hari n'inyubako ndende ihari.

Aha turi kureba umuhanda, harimo imodoka ifite amabara y'umutuku, ndetse imbere hari umuntu uri ku igare uri kurigendaho, bakanatwereka umugabo uri kugenda ku nkengero z'umuhanda, ndetse n'urutindo, bakanatwereka ibiti by'inganzamarumbu biri hirya y'umuhanda.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse n'amazu menshi y'ubucuruzi ari inyuma yaho, igice gitoya cy'ipoto ryo ku muhanda rigaragazwa n'insinga nyinshi zikwirakwiza umuriro mu baturage, ndetse mu muhanda hakaba harimo imirongo y'umweru n'umuhondo, imwe icagaguye.

Aha turi kureba inzu ifite ibara ry'umuhondo. Hashushanyijeho abana bari kwandika inyuguti. Ndetse hari undi mwana ufite ikereyo yandika. Ku muzenguruko w'iyo nzu hari ibyuma bihazengurutse. Ndetse inyuma hari ibyatsi bihari. Hirya turi kureba inzu nini yubakishije amatafari ahiye.

Aha bari kutwereka ikibuga, icyo kibuga ibyatsi byacyo ntabwo ari byinshi, bari kutwereka amazamu yombi ndetse bakanatwereka n'abakinnyi barimo, hakurya bari kutwereka ishyamba ry'ibiti byinshi by'inganzamarumbu.

Hano turi kureba ikibuga, icyo kibuga kirubakiye ndetse cyubakishijwe n'amabati, hari ibyuma bigiye bizengutse ikibuga, hakurya baratwereka ibiti, ibyo biti bigiye bisa nk'aho biri ku murongo, bakanatwereka n'ikirere kiri hakurya.

Aha turi kureba intebe izo ntebe ni intebe zigezweho za kizungu, ndetse zirasa hirya hari uruzitiro rw'ibyuma hirya yaho hari ibiti bihari.

Aha bari kutwereka icyapa, gifite ubuso bw'umutuku ndetse bari kutwereka inyuguti zanditse stop, bakatwereka n'ikirere kiri hakurya.

Icyapa cyo ku muhanda ku ruhande rwacyo hari umuserege ndetse n'umuhanda utarimo ibinyabiziga byinshi. Ibiti birebire biri ku ruhande ndetse hakurya hariyo inzu ndende cyane ndetse n'amatara yo ku muhanda, ikirere kirimo akazuba.

Hano bari kutwereka icyapa, icyo cyapa cyanditseho sitopu bivuze guhagarara, ndetse bakatwereka n'ubusitani buteyemo ibiti bikiriri bitoya, barino kwerekana umuhanda harimo ibinyabiziga urugero twavugamo nka moto hirya y'umuhanda hateye imikindo.

Aha bari kutwereka umuhanda ndetse bakatwereka n'icyapa cyanditseho Muhanga ku nkengero z'u muhanda hari abantu bigaragara ko bari kureba abantu bari gutwara amagare ndetse hari ibiti byinshi birangaho n'amatara yo ku mihanda.

Aha hari icyapa gishushanyijeho umwana ndetse n'umuntu mukuru munsi yacyo hari ibyatsi bihari ndetse hari n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi rihari hakurya bakatwereka inzu zituye zicucitse ndetse harimo n'ibiti biteye.

Aha bari kutwereka inzu zicucetse ziri mu mujyi ndetse bakanatwereka n'ibiti, ibyo biti bitari byinshi, hari n'izindi nzu bari kutwereka zisanzwe zubakishijwe n'amatafari ahiye.

Aha turi kureba umujyi, uwo mujyi ugiye uteyemo n'ibiti, bigaragara yuko ibi biti bikurura umwuka mwiza muri uno mujyi ndetse bari no kutwereka urutsinga rutwara umuriro w'amashanyarazi.

Aha bari kutwereka umujyi uririmo imodoka ndetse na moto, bakanatwereka n'izindi nyubako zigeretse, bigaragara ko hejuru yayo hari iminara ikurura itumanaho, ndetse bari kutwereka n'ibiti bisiza amabara y'umutuku, n'umweru bakanatwereka n'umuntu uhetse igikapu, afite n'icupa mu ntoki yambaye n'isaha.

Aha turi kureba ibiti, ibyo biti ni ibiti by'imigano, hepfo hari umugabo uhari usa nkaho arenze, bigaragara ko aho hantu ari nko kuri bariyeri mu ndimi z'amahanga, ahantu ahagabanirwa n'ahandi.

Aha turi kureba ibihingwa nk'ibigori ndetse tukareba n'inyubako, izo nyubako zifite irange ry'umweru ndetse hari indi ifite igisenge cy'umutuku, bari no kutwereka insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Aha turi kureba inzu nziza yubatse neza, iyo nzu ifite igisenge gitandukanye ndetse biragaragara ko ku irembo hari amatara atuma habona, iyo nzu irageretse, hakurya bakatwereka none ibicu.

Inzu nyinshi ziri mu murwa ahantu zisakajwe amabati atukura ndetse n'ay'umukara, bigaragara ko ari inzu zo guturwamo zikaba zizengurutswe n'urugo rwubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabuye, hakuno hakaba hari imirima ihinzemo imyaka itandukanye, irimo; ibigori ndetse n'ibiti.

Aha turi kureba inyubako nyinshi hepfo hari ibiti bihari ndetse n'ibimera, hafi aho hari izindi nyubako zifite igisenge cy'umutuku, ndetse zifite n'amarangi y'umweru n'amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi ahari.

Hano turi kureba umujyi ndetse buri kwerekana ko busa nkahoho bwije, harimo ibiti ndetse harimo n'umujyi n'inzu zigeretse.

Turi kureba inyubako ndende, bigaragara yuko ikorerwamo ubucuruzi, imbere hari imodoka ziparitse ndetse bari no kutwereka imikindo izengurutse iyo nzu.

Hano turi kuhareba umuhanda harimo ibinyabiziga, hari igare ndetse n'imodoka ku nkengero z'uwo muhanda hashushanyijeho imirongo, bakanatwereka n'ibiti biri hafi y'uwo muhanda.

Aha bari kutwereka umuhanda. Muri uwo muhanda harimo ibinyabiziga. Urugero nk'imodoka ndetse bari kutwereka ku nkengero z'uwo muhanda, hariyo ibiti bihari ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Aha turi kureba umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye twavugamo nka moto ndetse n'imodoka. Ku nkengero zawo hari abantu bari kugendaho ndetse bakatwereka n'ibiti biri ruguru y'umuhanda n'amatara yo ku mihanda n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Aha bari kutwereka umuhanda, ku nkengero z'uwo muhanda hari amarangi y'umweru n'umukara ahasize ndetse bari no kutwereka n'imodoka zihetse imizigo, ku nkengero hari ibiti bihari.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse ukaba uri mu byerekezo bitandukanye, hakaba harimo amamodoka, amagare ndetse n'amamoto. Inzu ndende z'ubucuruzi ziri ku ruhande, urutsinga rutwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibiti biteye ku misozi hakurya, ikirere kirimo ibara ry'umweru bigaragara ko nta mvura gihatse.

Aha bari kutwereka umuhanda ndetse bakanatwereka ku nkengero z'umuhanda ibiti bihateye, urugero nk'imikindo, bari no kutwereka ko aho hantu iyo hacanye umutuku umugenzi aba atemerewe kuhanyura bakatwereka n'ikindi cyapa gicanye umuhondo.

Aha turi kubona umuhanda, ndetse tukabonamo n'ibinyabiziga, nk'imodoka, hari n'umusore uri ku nkengero z'umuhanda, ariko ntago arinjira mu muhanda neza. Bakanatwereka n'ibiti biri ku nkengero z'umuhanda, ndetse n'amatara yo ku muhanda, hari n'inzu igeretse hirya.

Aha bari kutwereka umuhanda ufite uduce tugiye duciyemo tw'umuhondo ndetse no ku nkengero zawo hari amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi, hari n'inyubako ziri ruguru y'umuhanda, bari no kutwereka abantu bari kugenda mu muhanda cyane cyane ibinyabiziga, urugero nka moto y'imodoka nibyo turi kureba hirya.

Aha bari kutwereka umuhanda wubatse mu buryo budasanzwe. Wubatswe mu bikoresho mu indimi z'amahanga bita amapave hirya hari jaride zihari ndetse n'ibiti byinshi bigaragara ko ari ubusitani bwiza kandi bunogeye amaso muri uwo muhanda harimo umuntu uri kugendamo.

Aha turi kureba inyubako izo nyubako zubakishije amabuye, tukareba n'umuhanda udasanzwe wubakishije ibyo bita amapave mu ndimi z'amahanga. Bakanatwereka munsi y'umuhanda ishyamba rihari, ndetse hari n'amatara yo ku mihanda ahari.

Aha turi kureba muhanda biragaragara ko ufite ibyerekezo byinshi, imbere tubi kureba ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi, ndetse hari n'inyubako ihari iyo nyubako ikaba igeretse.

Aha barikutwereka umuhanda. Ndetse ku nkengero zaho hari ibiti bihari byinshi. Bakanatwereka n'ibinyabiziga, urugero nka moto, imodoka iri muri uwo muhanda. Uwo muhanda ntabwo ukoze neza, ntabwo umeze neza.

Aha ngaha bari kutwereka inkengero z'umuhanda ndetse bakatwereka n'akazu abagenzi bicaramo bategereje imodoka, inyuma y'ako kazu hari ibiti bihari by'inganzamarumbu byinshi.

Aha turi kureba umuhanda ndetse bakerekana imirongo yera icagaguye, abanyamaguru bambukiraho hari n'ibindi binyabiziga urugero nka moto, ndetse n'imodoka bashatse no kwerekana amatara yo ku muhanda ndetse n'ibiti biri ku nkengero z'uwo muhanda.